Abagabo batandatu bafite shitingi y'umweru n'ubururu, inyuma yaho imifuka ya sima, ikirango kiri mu mabara y'umutuku n'umweru hashushanyijeho abantu.

Amahema y'icyatsi, yicayemo abantu bari ku ntebe zisa umweruru, bambaye udupfukamunwa, ndetse n'imodoka nini iri muri icyo kibuga.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, amadirishya menshi, abantu barimo abagabo n'abagore, ibitanda, inzitiramibu n'akagare k'abafite ubumuga.

Icyumba kinini gisize irangi ry'umuhondo, imiryango ibiri ifunguye, harimo abantu benshi b'ingeri zitandukanye bicaye ku ntebe bari kuganira.

Abaganga b'igitsina gabo benshi, bahagaze imbere y'inyubako mu byatsi, bafite amashimwe mu ntoki, bigaragara ko bari kwifotoza inyuma yabo, inzu yubakishije amatafari ahiye.

Umuganga uhagaze ufite impapuro n'ibitabo mu ntoki, ari imbere y'abarwayi baje kwivuza, umwe ahetse umwana mu mugongo, arahagaze afite n'umutaka mu ntoki, abandi baricaye bategereje ibisubizo.

Inyubako nyinshi zitandukanye zisakaje amabati isa ubururu, imbere ubusitani bw'amoko atandukanye, hahagaze abantu ndetse haparitse n'imodoka, ku ruhande ibiti by'amoko atandukanye.

Kwa muganga hari umurwayi witeze igitambaro mu mutwe, ari kwivuza bari kumufata ibipimo, ndetse n'undi muganga uri kwandika ufite ikayi n'ikaramu n'ibindi bimuteretse impande ku meza.

Icyapa gisize irangi ry'umukara gishushanyijeho imbangukiragutabara, kigaragaza ibitaro bya Nyagatare, hashushanyijeho n'idarapo, kiri mu busitani buteyemo indabo ndetse n'ibiti byinshi bihakikije.

Inyubako zitandukanye zisakaje amabati y'ubururu, ubukarabiro busa umweruru, imbere hari indabo n'ibiti byinshi.

Inyubako nyinshi zisakaje amabati, hari urujya n'uruza rw'abantu, imodoka ziparitse ku ruhande. hari indabyo nyinshi ndetse n'ibiti bihakikije.

Icyumba k'indembe kirifite amaldo y'ubururu amadirishya afunguye, inzitiramibu zimanitse n'amatara harimo abantu bambaye imyenda y'umweru, bihishe n'amasura n'intebe ku ruhande.

Umuganga uri mu cyumba yambaye agapfukamunwa, ingofero y'umweru ndetse n'imyenda y'ubururu, ku gikuta hamanitse ishusho ishushanyijeho abantu yanditse mu nyuguti z'umukara.

Abagabo bambaye amataburiya y'umweru, bari gukina umupira n'abana batoya mu kibuga kiri imbere y'inzu yubakishije amatafari ahiye, hari ubusitani ndetse n'igiti.

Kwa muganga icyumba batangiramo imiti farumasi. Harimo abagore babiri, umwe yambaye itaburiya y'ubururu, undi umweru afite n'ikaramu mu ntoki ari kwandikira imiti abarwayi.

Icyumba gisize amarangi y'umuhondo, urugi rw'ubururu harimo abagore babiri umwe ni umuganga imbere yabo hari ameza ariho amakayi n'impapuro.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, yubakishije amabati, ifite amadirishya y'ibirahure hicayemo abantu, impande hari ibiti.

Abantu batandatu bazamuye akaboko bari kurahira umugabo umwe afite urupapuro mu ntoki, inyuma yabo hasakaje amabara y'umweru, umuhondo, icyatsi n'ubururu.

Abaganga babiri bambaye amatabriya y'umweru bicaye ku ntebe bari gupima abarwayi baje kwivuza, umwe uteze igitambaro mu mutwe n'umupira w'umutuku n'undi ukeneyenye ibitenge.

Kwa muganga, hari icyumba kirimo abarwayi batatu ndetse n'umuganga umwe wambaye itaburiya y'umweru, hari intebe iza kwicaramo, ari kubasobanurira ndetse icyumba gisize irangi ry'umweru.

Abantu benshi bahagaze, abandi bicaye munsi yigiti cyamashami maremare, bari guhabwa amabwiriza imbere y'inyubako.

Ibitaro byo kwa muganga byubakisheje amatafari ahiye, imbere hahagaze umugore uhetse umwana wambaye ibitenge ndetse n'abandi inyuma ye bicaye ku intebe.

Ihuriro ry'abantu benshi bicaye hamwe bari kuganira n'abana batoya bari gukina, hari inyubako isize irangi ry'umweru yubakishije amabati.

Umugore uri gusuhuzanya n'umugabo n'abandi babiri bahagaze ku ruhande, bari imbere y'imodoka y'imbangukiragutabara, inyuma hari ibiti by'amoko atandukanye.

Ibiganza by'umuntu wambaye ga abirambitse ku meza ari gufata amaraso, impande hari ikaramu y'igiti n'ikaramu yo kwandikaho ku gapapuro.

Icyumba cyo kwa muganga kizwi nka laboratwari harimo abaganga babiri, uwambaye agapfukamunwa n'itaburiya y'umweru ari gupima amaraso ndetse n'ibyuma bya microscope.

Umusore wambaye agapfukamunwa k'ubururu bwererutse n'umweru yicaye ku ntebe, yambaye itaburiya, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, impande ku gikuta hari impapuro.

Abasore n'inkumi bambaye amataburiya y'umweru bahagaze bari kureba muri telefoni bafite ibitabo n'amakayi n'impapuro biteretse imbere yabo.

Umuganga wambaye ga, afashe umurwayi urutoki n'urushinge agiye kumupima amaraso. Imbere ku meza hari urupapuro.

Umugabo wambaye agapfukamunwa gasa umweru n'itaburiya yicaye ku ntebe y'umukara, inyuma akabati kariho imashini ndetse imbere ameza ariho mudasobwa.

Abanyeshuri batatu bambaye amataburiya y'umweru bari mu cyumba gifite amadirishya abiri harimo ameza.

Abantu benshi, abagore n'abagabo, bambaye imipira y'icyatsi, inyuma hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, bakoze uruziga, bari mu myiyereko ndetse inyuma yabo hari abandi, bicaye bari kubareba.

Abantu benshi bicaye hamwe ku ntebe z'umweru, imbere hari umupolisi n'akana kicaye hasi, n'umugabo imbere yabo ufite indangururamajwi ari gutambutsa imbwirwaruhame.

Inyubako isakaje amabati y'umuhondo, ifite amadireshya menshi afunguye, imbere hahagaze abantu, abagabo, abagore, ndetse n'abana batoya bari mu kigero cy'imyaka itanu.

Abantu batanu bicaye hasi mu byatsi abagore batatu bambaye amataburiya n'udupfukamunwa, abagabo babiri bambaye amashati na baje mu ijosi.

Abana batonze umurongo bari gukaraba, hari kandagira ukarabe iri mu ibara ry'ubururu n'icyatsi, umumama uri kubakarabisha yambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'ingofero.

Abana bato bicaye ku meza, bari kumwe nabarezi babo bari kurya. Imbere yabo hari amasahani ariho ibiryo, bicaye ku ntebe z'icyatsi n'ameza.

Itsinda ryababyinnyi umwe wambaye ingofero mu mutwe abandi, bateze, uduce tw'udutambaro mu gahanga, bambaye imipira y'umutuku, bakenyeye n'imikenyero, bari kubyina.

Abagore batwite baje kwipimisha, bari mu cyumba kinini gisize irangi ry'umuhondo, inyuma yabo hahagaze abaganga ndetse amadirishya arafunguye, iruhande kizimya mwoto.

Kwa muganga mu cyumba aho muganga ari gutera urushinge umurwayi wambaye imyenda y'icyatsi, we yambaye isa ubururu ndetse na ga mu ntoki.

Abana benshi bicaye ku ntebe bafite udukombe mu ntoki dusa umweru harimo ikintu cyo kunywa, bambaye amajipo n'amakabutura by'ubururu, bigaragara ko ari ishuri ry'inshuke.

Abantu benshi bicaye abandi bahagaze, bambaye imipira y'icyatsi n'amapantaro y'umukara, harimo n'abasirikare, imbere hari ibyatsi, inyuma ibiti by'amoko menshi.

Itsinda ry'abantu bicaye bari kuganira, harimo abagabo n'abagore, impande hari inyubako y'inzu yo guturamo, ibiti by'amoko menshi ndetse n'imiyenzi.

Abantu benshi biganjemo igitsina gabo bicaye ku ntebe z'ibiti bari kuganira bahabwa inama n'undi mugabo uhagaze wambaye umupira w'umukara n'ipantaro, inyuma hari imitako iri mu ibara ry'ibendera ry'igihugu.

Abagore babiri bicaye bafite indangururamajwi mu ntoki, abagabo batatu umwe wambaye agapfukamunwa uducupa tw'amazi.

Umugabo wambaye, umupira w'umweru hariho ikirango cya RBC, afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye amadarubindi, inyuma ye naho hari ibyanditseho, ibyapa byanditseho RBC.

Icyapa cy'ubururu n'umweru gishushanyijeho: ikirangantego, izuba, ikirango cya RIB ndetse n'imibare wakifashisha uhamagara.

Abantu benshi bari mu muhanda batambuka, bafite ibyapa byanditseho ''kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse no mu muryango nyarwanda'', hari abayobozi, abapolisi n'indabo zihakikije n'inyubako.

Abagabo bane bahagaze mu cyumba kinini kirimo amakarito menshi y'ubwoko butandukanye, asa: umweru, ubururu n'umutuku. Bishimye bari guseka.

Abaganga babiri bahagaze, bambaye amataburiya asa umweru, imbere yabo mudasobwa, bafite udupapuro mu ntoki, ni ahantu bagurira imiti.

Imiti y'ubwoko butandukanye ipfunyitse hamwe mu mashashi, ahandi mu dukarito dusa umweru, ubururu, umutuku, umuhondo biteretse ku meza.

Umugabo uzamuye akaboko, bambaye itaburiya y'umweru n'icyatsi, imbere ye hari udukarito twinshi twamabara atandukanye, turimo imiti.

Umugabo wambaye ishati y'umweru nicyatsi n'ipantaro y'umukara azamuye akaboko, ahagaze imbere y'udukarito twinshi turi mu mabara atandukanye, umweru, umutuku turimo imiti.

Umugore uhagaze muri farumasi, imbere ye ari gukoresha mudasobwa, hari imiti y'amoko atandukanye, iri mu dukarito, mu ducupa ndetse inyuma hari icupa ry'amazi yo kunywa.

Farumasi nini cyane iri mo imiti y'amoko atandukanye ipakiye mu tubati, harimo uducupa ndetse n'udukarito tw'amabara atandukanye.

Ububiko bw'imiti buri mu ducupa, utundi utujekani ,anvilope n'udukarito tw'amabara atandukanye icyatsi, umweru ,ubururu ndetse n'umutuku.

Icyumba cya farumasi kirimo imiti y'ubwoko butandukanye, ipakiye mu tubati, hari iri mu dukombe ndetse n'indi iri mu dukarito tw'amabara atandukanye.

Icyapa kigaragaza ahantu hari farumasi, cyanditseho mu magambo y'icyongereza n'inyuguti nkuru mu ibara ry'icyatsi biri ku nyubako.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru, ahagaze imbere y'udukarito twinshi, dufite amabara atandukanye: umuhondo, umweru, umutuku, turi mu kabati.

Akabati karimo ibintu byinshi bitandukanye uducupa bigaragaza ko harimo imiti n'udukarito tw'amabara menshi, umweru, icyatsi, umuhondo n'umutuku.

Icyumba cy'ububiko bw'umuti mo imbere hasize irangi ry'umweru, harimo utubati duteretsemo imiti y'amoko atandukanye iri mu mu mabara: ubururu, umuhondo, icyatsi, umweru ndetse n'umukara n'umugore imbere ye hateretse mudasobwa.

Itsinda ry'abantu bahagaze imbere ku murongo bafite ibyapa bari gukangurira abantu gahunda ya Gerayo Amahoro, harimo n'abapolisi bambaye impuzankano, inyuma yabo hari ishyamba ry'ibiti byinshi.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko, bari impande y'inyubako bicaye bari kuganira, hari umugabo ubari imbere uri kubaganiriza. Inyubako isize ibara ry'icyatsi.

Abasore babiri, umwe wambaye ingofero y'ubururu n'umweru, undi witeze umupira mu mutwe, bafite bose indangururamajwi mu ntoki, bari kuganiriza umukobwa ubahagaze imbere.

Abashyushyarugamba bari imbere y'imbaga nyamwinshi y'urubyiruko rutandukanye abasore n'inkumi bahagaze mu kibuga kinini ndetse inyuma hari amazu y'ubucuruzi n'ibiti by'amoko menshi atandukanye ahakikije.

Umurwayi uryamye ku gitanda gisasheho amashuka y'mweru n'umuganga wambaye ishati y'umweru, ari gukanda ibirenge ndetse impande hari akabati.

Abagore batatu bambaye amashati y'ubururu asa, babiri bambaye amadarubindi bahagaze imbere y'urugi rusize irange ry'umweru, inyuma yabo hari kizimyamwoto.

Umugore wambaye agapfukamunwa k'ubururu, baje mu ijosi, itaburiya y'ubururu, afite ikaramu mu ntoki ari kwandika n'uducupa turimo imiti, inyuma hari icyapa cyanditseho baho neza.

Imifuka myinshi w'umweru, icyatsi, umuhondo n'umutuku, irimo imiti y'ubwoko butandukanye, inyuma hari ameza ariho igitambaro cy'umweru.

Abagabo bane n'umugore ufite kari mu ntoki bari gutambuka mu nzira imbere y'inzu isize irangi ry'ubururu ryanditseho gira ubuzima, hari intebe munsi yayo hicayeho abantu.

Icyumba kinini cyane gifite amadirishya menshi ,hari afunguye n'afunze harimo; inzitiramibu ,akagare k'abafite ubumuga, umuntu ukicayemo ndetse n'abarwayi bicaye ku bitanda.

Abantu b'ingeri zitandukanye bicaye mu cyumba, imbere hari umugore n'umugabo bafite ibyo bari kubabwira, icyumba gisize amarangi y'umuhondo, harimo ikibaho cy'umukara.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, magambo y'umukara hashushanyijeho inzu, impande hahagaze abagabo n'abana batoya ndetse n'umusozi uriho ibiti byinshi.

Inzu isize irangi ry'ubururu, isakaje amabati, imbere hari ubukarabiro bubiri, hateretse ijerekani n'intebe zo kwicaraho.

Inyubako y'ibitaro hicaye abarwayi, umugore uri mu kagare k'abafite ubumuga, umugabo ufite urupapuro mu ntoki n'undi uri kwinjira mu muryango.

Ibitaro bisize irangi ry'umweru rifite amadirishya menshi, ibitanda biryamyeho abarwayi bambaye amashati y'ubururu.

Umugore uri mu bitaro wambaye igitenge cy'umutuku n'umuhondo umupira w'umutuku ufite isakoshi impande ibitanda biriho matora bisa umukara.

Ibiti, indabo, umuhanda, inyubako isakaje amabati y'umutuku, abantu benshi bicaye bameze nk'abari mu nama.

Icyapa kigaragaza ibitaro cyanditse mu mabara; icyatsi, ubururu, umuhondo n'umweru. impande; indabyo n'inyubako iri mu mabara.

Umugore wambaye ibitenge, uri mu muhanda ari gutambuka, inyuma ye hari inzu yanditseho ''gira ubuzima'', imbere ubukarabiro n'ibiti by'indabyo.

Icyumba gisize irangi ry'umuhondo, amadirishya abiri, gifite utubati tubiri, abantu bicayemo biganjemo igitsina gore, imbere hari ameza ariho igitambaro cy'icyatsi.

Umuganga wicaye ari kumwe n'umurwayi w'umugore yambaye igitenge kirimo amabara y'umuhondo, imbere hari ameza ariho igitambaro cy'icyatsi.

Inzu nini isakaje amabati, isize irangi ryubururu, amadirishya arafunguye. Imbere hahagaze abantu n'ubusitani bwiza, hari n'icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyandikishijeho umukara n'ubururu.

Abagore bakenyeye ibitenge ndetse bateze n'ibitambaro mu mutwe, bahetse abana umwe ari kumwonsa, bari kwa muganga imbere y'idirishya risize irangi ry'umweru baje kubavuza.

Muganga wambaye itaburiya y'ubururu afite ikaramu mu ntoki ari guhereza umurwayi impapuro amusobanurira ndetse n'abandi inyuma bicaye ku ntebe bategereje ibisubizo.